Umugabo uhetse icyuma uri mu murima ari gutera umuti, kugira ngo ibihingwa bikure neza bivemo udukoko turimo. Ari gutera umuti ahetse icyuma hirya hari ibiti, hirya hari ibicu.

Imiti iteretse ahantu hasa n'umutuku, hari imiti iri mu ducupa hari n'iyindi miti iri mu dusashi.

Umugabo wambaye ishati, witeze igitambaro mu mutwe, uhetse icyuma, ari gutera umuti imyaka.

Isahani nziza cyane ifite isuku iteguye neza cyane . Harambitseho amafi abiri ,asa neza cyane nibindi bintu bitandukanye bigaragara neza.

Amafi meza cyane barambitse ku byatsi by'icyatsi, barangije bashyira ku gakoko agakoko gafite isuku nyinshi cyane ibintu byose birikuba byiza cyane.

Isahani nziza cyane ifite isuku ni isahani y'umweru iriho amafi n'amaronji bakasemo kabiri.

Abantu barenga babiri bari kuroba amafi, bari kugashya bafite ikintu barajya bashyiramo amafi, hari abambaye hejuru batambaye imyenda.

Abapolisi bicaye mu bwato bari kugenda, hari uwambaye ingofero hari uwambaye ijiri, hari abandi bahetse ibintu mu mugongo by'umuhondo hirya y'inyanja hari umuntu uhicaye, hakikijwe n'ibiti byinshi cyane.

Umurima utarimo ikintu urimo ubusa hirya yawo hari ibitoki byinshi cyane, hirya hirya y'ibyo bitoki hari ibiti birebire cyane.

Ibyatsi byinshi cyane, hari intoki nyinshi zihari, hari ibidodoki biri ku ruzitiro, hari intama iri imbere ya byo, hasi hari ibindi byatsi byinshi bicucitse cyane.

Umurima munini cyane, urimo amabuye manini n'amato. Hijya yawo hari ibiti birebire cyane, ni umurima hirya hariho ahadahinze barahasaruye.

Umuririma uhinzemo ubwoko bw'ibihingwa butandukanye, harimo ibinyomoro, harimo ibirayi, harimo ibigori, ku mpande hakikijwe n'ibiti, ni umurima munini cyane, urimo ibihingwa byiza cyane.

Intoki nyinshi cyane ziri mu murima ni intoki ndende cyane, hari n'izindi ngufi cyane. Mu nzira hari abantu bari kugenda, hari inzu ihari yanitseho umwenda usa n'ubururu.

Ibyatsi by'icyatsi birebire cyane, hari intoki zirimo hari inzu ikikijwe n'intoki nyinshi cyane.

Umurima munini cyane uteyemo amajeri, amajeri meza cyane, hirya y'aho hari ibiti birebire cyane, n'amajeri acucitse.

Ibihingwa byiza cyane bigaragara neza cyane, hari ibirayi, hari ibigori, hari ibindi biti bibikikije biri ku mpande yabyo. Ni ibirayi bisa neza cyane kandi bigaragara neza cyane.

Imbuto nziza cyane, zirimo umurima zisa neza cyane, na amapera ariko aracyari hasi cyane, ntabwo yeze ariko agaragara neza cyane, harimo amapera yagiye azamo gake gake.

Umurima uteyemo ibigori, ibigori bimaze kuma, hari ibiti birebire cyane, hafi yaho hari ibyatsi by'icyatsi.

Ibyatsi byiza cyane, byinshi cyane, harimo ibirebire n'ibigufi, ni ibyatsi bigaragara neza cyane, ni iby'icyatsi, biteye mu butaka.

Umurima usa neza cyane hahinzemo amajeri, ariko hari harimo ibigori babikuyemo. Hari ibitoki, hari inzu ihari ikikijwe n'ibitoki, n'ayo majeri.

Umurima munini bahingamo ibihingwa bitandukanye bahingamo ibigori, harimo ibirayi, hari ibiti bigiye birabamo hagati n'ibindi byatsi bitandukanye.

Abantu bahagaze mu mucaca, umugabo ufashe ku giti, hari ibiti byinshi cyane, hari inzu iri hagati y'ibyo biti, hari umwana uhahagaze, hari n'abandi bantu bicaye aho ngaho ku biti, hari n'urutsinga rw'umuriro.

Umurima mwiza cyane munini cyane, urimo karoti karoti hari izegeranye cyane hari n'izitegeranye, hirya yaho hari ibiti birebire cyane.

Umurima uteyemo voka, harimo voka nkeya cyane kandi vika ntoya ntavoka nini zirimo.

Ahantu hahinze intoki, hasi hari utundi twatsi dukeya, intoki hari ini cyane, hari udutoya cyane, harimo amateke, haravanze hari ibintu byinshi byiza, harimo n'inzu.

Ibyatsi byinshi, ibiti, hari ibitoki birimo hagati, ibitoki byo kurya, hari ibitoki byamaze kugira ibyo kurya, hari ibiti bifashe ibyo bitoki kugirango bitazagwa.

Amaronji menshi cyane asa neza cyane, hari atukuye hari n' andi asa n' icyatsi, amenshi ni atukuye kandi amenshi ni manini.

Indobo itatu ziteretse biragaragara ko ibiri zirimo wotameloni imwe irimo inini indi irimo into indi ntabwo bigaragara ngo ni ikihei kintu kirimo.

Abantu benshi cyane bari kureba ukuntu abantu bayoboye barimo umurima bari kugenda bari gutera, bari kugenda berekera uko bagomba gutera, ni abantu benshi cyane babyitabiriye bari gukurikirana uko biri gukorwa.

Imifuka myinshi y'ibirayi iteretse ahantu hari abantu babiri. Hahari umwe aricaye yambaye bote, hari undi uhagaze, hirya gatoto hari undi nawe utari kugaragara neza nawe uhari. Ni ibirayi byiza cyane biri mu mifuka minini.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane baturutse mu nce zitandukanye, hari abantu batwaye amagare benshi cyane hari ibitoki byinshi cyane bigaragara neza.

Imyumbati myinshi cyane, irunze hamwe, hari umunzani uhari bakoresha bari gupimira abantu, hari umugabo uhari wambaye agapira k'icyatsi, hari n'undi uhari.

Umugabo uri mu muririma w'ibigori ni umurima munini cyane. Ni ibigori bikiri bito cyane hari ibindi birebire cyane hari n'utundi tukiri tugufi.

Inka eshatu ziri mu rwuri, ziri kugenda zirisha ahantu hari ubwatsi bwinshi. Hari inka y'umukara, hari n'izindi ebyiri zifite amabara yazo.

Umugore mwiza cyane wishimye cyane, avuye guhinga afite isuka ye ku rutugu yiteze igitambaro mu mutwe, ni ibintu yishimiye cyane ari kugenda mu nzira.

Ibisate bitanu by'ibiribwa n'ibiribwa bihingwa, ni ibiribwa biryoha cyane ,byitwa amateke . Hari amateke bakase mo ibice agaragara neza cyane.

Umugore uri mu murima, umurima uhinzemo ibyo kurya higanjemo ibishyimbo. Ibishyimbo biteze, bikiri hasi, ibishyimbo bashingirira.

Umugore usa ni igikara ukenyeye igitenge, wambaye umupira wimbeho, witeze igitambaro mu mutwe uri mu murima, umurima urimo ibirayi byiza cyane.

Impugure nziza cyane z'ubwoko bubiri butandukanye, ziri mu mifuka itandukanye. Hari imifuka y'umweru, hari imifuka y'icyatsi. Ni impungure zisa neza cyane.

Umurima uteyemo inyanya. Ni inyanya zisa neza cyane. Hari inyanya ibiri zatangiye gutukura, hari inyanya nini cyane hari n'utundi dutoya cyane.

Umuhinzi uri mu murima, umurima uhinzemo ibyo kurya, azamuye isuka, agiye kuyikubita mu murima, yiteze igitambaro, ni umuntu umwe.

Inka ziri hagati mu byatsi byinshi cyane inka zifite amabara yiganjemo umweru n'umukara zirimo umurunga w'umweru.

Urubuto rwiza rwo kurya rugaragara neza cyane ruri mu giti, bita ipera. Ni urubuto ruryoha cyane kandi rugaragara neza cyane. Ni urubuto rumwe rugaragara, ibibabi ni byinshi.

Umugore uri mu murima wishimye cyane, ni umurima uteyemo ibishyimbo, ibishyimbo birebire byo gushingirira, barabishingiriye harimo ibiti, ari gusoroma umushogoro.

Amababi ya avoka asa neza cyane, harimo ay'icyatsi, harimo ayijimye, ni amababi agaragara neza cyane.

Ibyatsi byinshi cyane biri mu murima, n'ibiti bihagaze byinshi cyane biriho imbuto, n'ibiti bisa n'icyatsi, n'imbuto zabyo zisa n'icyatsi.

Ibiryo byiza byo kurya abantu bakunda cyane, biri ahantu hasukuye cyane, biri mu kantu k'umutuku, ni amagi meza cyane, agaragara neza, ni amagi menshi abyibushye, asa neza cyane.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye bisa neza cyane, harimo ibitoki bifite amakoma yicyatsi bisa neza cyane ni ahantu heza cyane.

Umugore uri kugenda wambaye ibitenge ufite isuka ku rutugu, imbere ye hari umurima uteyemo ibigori, impande ye hari ibyatsi bisa n'icyatsi.

Amapera menshi, ari mu tudobo, ateretse ahantu, ni tudobo tubiriri, buri kadobo kuzuye amapera, kamwe kuzuye amapera n'kandi kuzuye amapera.

Voka zisa nkaho ziryoshye cyane ziri ku gasahani hariho ikiriko, hariho n'izindi voka zidasatuye zikibumbye. Ni voka zisa n'umukara zisa n'umuhondo hagati.

Umugore uri kugenda mu nzira, umugore wambaye ibintu byijimye cyane, yambaye bote z'umukara, afite amabase mu ntoki, afite n'isuka.

Igiti cy'avoka gisa neza cyane, kiri mu murima gifite avoka nyinshi, hari izeze hari iziteze, n'igiti kinini cyane gifite avoka nini n'intoya, gifite n'amababi.

Abakobwa babiri bishimye cyane bateruye ibintu, umwe ateruye ibintu mu ntoki, undi afite isuka yikoreye n'ibyatsi ku mutwe, ahagaze imbere y'ibyatsi by'icyatsi.

Abahinzi benshi bari mu murima uteyemo ibigori, harimo abagore, harimo abagabo, harimo abana, ni ibigori byeze, harimo ibimaze kuma amababi, n'ibindi bikiriri icyatsi.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi baturutse ahantu hatandukanye, bari mu isoko ry'amatungo yiganjemo intama, harimo abagabo, harimo abagore, harimo ihene y'umukara, intama nizo nyinshi.

Imugabo uhagaze mu bigori byinshi cyane; ni ibigori bisa neza cyane bikiri bitoya, hari ibiti bikikije ahongaha

Umuntu wijimye cyane uri mu murima, ufashe isuka ahagaze hagati y'ibyatsi by'icyatsi hari ibirebire, hari n'ibigufi.

Ibiryo byinshi birunze hamwe, ni ibiryo bidatetse bikiri bibisi byitwa imyumbati, ni ibiryo bisa neza cyane biri ahantu hamwe, bigaragara neza cyane kandi byiza.

Umugabo wishimye cyane, uri guseka cyane, ateruye yubururu, irimo amatunda menshi cyane, ni umugabo wigikara, wambaye agapfukamuwa k'umukara, ufite ibyishimo byinshi cyane.

Ibiryo biri mu isorori by'ubwoko bw'ibijumba ni ibiryo biryoshye cyane, ibijumba bisa n'umutuku binini cyane, bigaragara neza cyane biri mu isoro y'umweru.

Ibiryo byiza cyane biri ahantu birarunze, hari ijerekani yo kuvomeramo amazi, ibiryo byitwa imyumbati birasa neza cyane harimo imitoya harimo n'iminini.

Umuntu utwaye igare wambaye ibirenge, upakiye ibitoki byinshi cyane ibitoki bisa neza, ari gusunika igare mu muhanda w'igitaka.

Umugore wishimye cyane, uhagaze, wambaye ishati y'umutuku, witeze igitambaro mu mutwe, afite ibishyimbo byinshi mu ntoki, ari imbere y'ibyatsi byinshi by'icyatsi, ari guseka, arishimye cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi, baturutse mu nce zitandukanye, baje mu isoko ryiganjemo ibiribwa, harimo imbuto, harimo inanasi, harimo imyembe, harimo ibitunguru, hari ibyapa birimo bisa neza cyane.

Ibitebo bibiri binini cyane, harimo amaronji menshi cyane, hari igitebo kirimo amarongi menshi hari ikindi kirimo uturonji duke hari n'ikindi kiri guhinguka akantu gato ku ruhande.

Ubwoko bw'ibiryo by'igihaza, ni igihaza kinini cyane, gisa neza, gisa nk'aho kiryoshye, ni kimwe, kiri ahantu heza,...

Umurima uhinzemo ibigori byiza cyane bisa neza cyane, bifite amababi meza cyane, n'ibigori byinshi byegeranyera byenda kwera hari n'ibitarera neza hari ibitari byera neza.

Ibigori byiza cyane biteye mu murima w'igitaka ibigori bifite imiterero ibigori bicucitse cyane ni umurima munini cyane.

Intama nziza cyane ndende ziri ahantu hagaragara neza cyane, hari ibyatsi, hari ibiti, intama imwe iri kurisha hasi, indi yo nta bwo iri kurisha.

Amapera meza cyane arambitse ahantu, hari amapera basatuye, hari n'ayandi akibumbye. ni amapera abyibushye cyane.

imbuto nziza cyane ziryoha cyane, ziri hasi ku mufuka ni amatunda, hari umuntu uhari hari agapaniye gateretse hafi aho ngaho, izi mbuto zisa neza cyane.

Umugore mwiza cyane uri mu murima, wifubitse cyane ari mu murima w'ibirayi, ari kubireba ukuntu bimeze no kureba icyo yakora, kugira ngo ngo bikure bimeze neza cyane. Hirya hari ahantu harambuye hari umucaca.

Imbuto nziza cyane, zisa neza cyane, zi mu bwoko bw'inanasi, zirunze ari nyinshi, hari izitukuye cyane hari n'izindi zidatukuye.

Inkoko enye nziza cyane .Hari ifite amabara y'umweru hari iy'mukara ,hari iy'umutuku zihagaze ahantu heza cyane, hari ibyatsi by'icyatsi ,ziri gutoragura.

Umuntu uri mu gishanga, afite isuka ari guhinga n'ahantu hanini hateyemo ibihingwa, n'ibigori biteyemo.

Itsinda ry'abantu bari mu umurima bafite amasuka, bari guhinga. Harimo n'umudaso, harimo n'abandi bari kugenda barunda ibyatsi bakanabiterura, batunganya umurima.

Amateke ari mu base, ni amateke asa neza cyane, ari mu base y'icyatsi harimo amateke manini n'amateke matoya, ibase iruzuye ni amateke agaragara neza.

Itsinda ry'abantu bateraniye hamwe, bari ahantu hari ibiti hagatsi mu muririma, bari gufata amafoto hari n'igitsina gore n'igitsina gabo.

Umurima munini cyane uteyemo icyayi, hari abantu barimo bari gusarura icyayi, hari abandi bagabo babiri bahagaze bafite amakayi n'amakaramu.

Isoko ryiganjemo ibyo kurya, harimo ibirayi byinshi cyane bisutse hasi, birunze, hariho umunzani bakoresha bari gupima, ku munzani hejuru hariho agasahani k'umweru, hari ibishyimbo bisutse ku mufuka w'umweru, hari imyumbati.

Ibidodoki byiza cyane bisa n'icyatsi birunze ahantu, biri ku gafuka k'umweru ni byinshi cyane, ni ibidodoki bikuze harimo n'ibidakuze, hari umuntu wicaye ku ntebe.

Ahantu hari inzu, hanze harimo umucaca hasi, hari intama ebyiri, udutama dutoya kamwe kararyamye ariko n'udutama dusa neza cyane.

Abantu benshi cyane, biganjemo cyane cyane abana, hari abakobwa, abahungu, bicaye mu mutaka ushaje cyane, bakikijwe n'ibyatsi by'icatsi, imbere yabo hari ibase irimo imbuto.

Imifuka myinshi cyane irimo impungure, hari umuntu uhari, hari imifuka ifunze hari n'idafunze, hari abantu bari mu murima w'ibigori.

Umurima munini uteyemo amasaka, amasaka menshi cyane acucitse. Hari amasaka yatangiye gutukura, hari n'ayandi ataratukura acucitse cyane.

Ibishyimbo byiza cyane bifite imiteja isa neza cyane, bifite amababi manini, bifite utuntu two hejuru tw'umweru nibishyimbo bifite imiteja bisa neza cyane.

Imbuto nziza cyane ziri ahantu heza cyane ziri ahantu mu nzu, inzu isakaje amabati. Ni imbuto zisa na kaki.

Amasafuriya meza cyane, ni amasafuriya ane arimo ubwoko bw'imbuto butandukanye, hari ibishyimbo by'ubwoko bubiri, ibishyimbo bigaragara neza cyane, hari ibifite amabara, hari n'iby'umutuku, hari n'iby'imyeru.

Imbuto ziteguwe neza cyane, zisa neza cyane zo guhinga. Ziri ahantu hasukuye hagaragara neza cyane imbuto z'ibishyimbo.

Intoki zisa n'umukara, zifashe imbuto nyinshi cyane, ahantu intoki zifashe hasa n'icyatsi, naho imbuto zisa n'umweru.

Ibyatsi by'icyatsi bisa neza cyane, bicucitse cyane, hari indabyo ziri hejuru yabyo, indabyo nziza cyane zigaragara neza cyane.

Ibishyimbo bisa neza cyane, birebire, hari ibigori bigufiya cyane, babiteye ahantu hasa neza cyane, hirya yaho hari ibiti birebire cyane, ibishyimbo, hari ibyuma bigenda bizamukiraho ni ibishyimbo bitari byera.

Umugore ufite intara, intara iriho imbuto, ari kuzigosora, imbuto zo gutera ziri ku hema, na we ahagaze ku hema hari inzu...

Ubunyobwa bwinshi cyane burunze hamwe, ni ubunyobwa busa neza cyane, bubyibushye, busa n'umutuku. Hari ubunini cyane, hari n'ubutoya, bwose ntago bungana.

Amasaka arunze hamwe, amasaka yegeranye cyane asa neza cyane, ni amasaka atukura barambitse hasi.

Ibigori bine biri mu kantu kameze nk'agatebo kaboheshejwe ibisika. Bitatu biratonoye, ikindi kiracyabumbye. Biri muri ako kantu byose biteretsemo.

Umuntu uri mu murima, usa n'inzobe . Afite igitebo kirimo ibintu by'icyatsi ,ari gusoroma imbuto .

Igitebo kirekire cyane gihomesheje amase, giteretse ahantu heza cyane kirimo ubusa.

Imbuto z'impungure nyinshi cyane zirasa neza ni impumure nziza cyane, izi mbuto ziragaragara neza ziri ahantu hamwe zihuza ahantu hamwe.

Imbuto nziza cyane, zisa neza cyane, zirambitse hasi, ni imbuto z'umuhondo zibyibushye cyane, ni imbuto z'ibihaza zimeze neza cyane.

Ubunyobwa bwinshi budakaranze, bashize ahantu hamwe, ni nyobwa byinshishi cyane, buri ahantu heza harimo barubungana harimo ubutangana.

Urujya n'uruza rw'abantu baje mu isoko baturutse ahantu hatandukanye, isoko ryiganjemo iry'ibiribwa, harimo ibishyimbo, harimo impungure, harimo amashaza, harimo ibitunguru n'izindi mbuto zitandukanye.

Inkoko nyinshi, nyinshi cyane, hari umuntu urimo hagati, yambaye igikoresho cy'akazi, ashinzwe kureba inkoko zifite ikibazo, yarangiza akaziha umuti, akazivura, zikongera zikamera neza cyane.

Inka ifite amabara y'umutuku n'umweru, ifite amahembe maremare ariko atari maremare cyane, ihagaze hagati mu byatsi iri kureba.

Ihene nyinshi cyane ziri kugenda mu nzira mu muhanda w'igitaka, hafi y'izo hene hari ibyatsi byinshi cyane bisa n'icyatsi. Mu ihene hari ihene nkuru cyane, hari n'uduto cyane.

Umugore wishimye cyane, ateruye intama mu ntoki, intama ifite amatwi maremare, umugore uri ahantu h'inzu y'amatafari, isakaje ibyatsi, umugore witeze igitambaro mu mutwe.

Inzu itarimo abantu iri hagati y'ibiti birebire byinshi cyane, n'ibyatsi ku ruhande bigufiya. Ni inzu ifite igipangu isakaje amabati meza cyane.

Intama nyinshi cyane zifite amabara atandukanye, hari umugore uhari wambaye itaburiya y'umweru, ateruye intama.

Abantu benshi cyane bicaye hasi b'igitsina gore. Abenshi bafite abana. Hari umugabo uhagaze imbere yabo ari kuvuga, bo bicaye hasi.

Inka nziza cyane, ifite umurizo muremure w' umweru , yiganjemo amabara y'umweru n'umukara . Ihagaze ku byatsi by'icyatsi.

Igisake cyiza cyane kigaragara neza cyane, gihagaze mu mucaca, ni ibyatsi bisa n'icyatsi byinshi bicucitse cyane.

Inka nyinshi cyane, zisa neza cyane, zifite amabara y'umukara n'umweru, hari umugabo wambaye bote, yambaye n'ingofero, yambaye na ga, afite igitiyo, ari kuyora ibyatsi.

Inka nyinshi cyane, zisa neza cyane ziri mu byatsi by'icyatsi, hari iziri kurisha, hari n'izindi zihagaze n'inka zifite amabara atandukanye.

Umuntu ushinzwe kuvura amatungo umugabo, hari umugore nawe uzanye ingurube, kugira uwo muntu ashinzwe kuvura amatungo azivure, hari inzu abikoreramo ni inzu isa neza cyane.

Inkoko nyinshi ziri ahantu hamwe buri nkoko igenda itoragura irebe ukuntu yakomeza kubaho, buri nkoko yirwanaho ireba ukuntu yashakisha imibereho yayo. Bazigaburira hamwe zirasangira hari akantu zisangiriramo ni inkoko zimeze neza cyane.

Ingurube ziri mu kiraro, ziri kurya akantu bagenda bazigaburiramo, hari n'izindi ziri mu kindi kiraro gifite sima, ni ho ziri kurira.

Inkoko nyinshi cyane zihurijwe hamwe, inyinshi n'imishwi, harimo utuntu bazigaburiramo bari kuziheramo ibiryo, utwo tuntu dufite amabara y'umweru hasi n'umutuku.

Umuntu ushinzwe kuvura amatungo, ari kuvura amatungo y'ihene harumu umugore uri gutema ubwatsi, hari indobo hari ahantu ho gukarabira narangiza kuvura ihene.

Inyamaswa nziza cyane ihagaze hejuru, y'umweru, irimo amabara y'umukara n'umweru, iri ahantu heza cyane, kandi isa neza cyane.

Inyoni iri hejuru mu giti, hari cyari gihari, kiba kirimo amagi yayo, ni inyoni y'umuhondo, isa neza cyane, iri gutoragura hasi.

Inyamaswa nziza cyane n'ahantu hari ibyatsi byinshi cyane, irimo hagati hari ibyatsi byumye hari n'ibindi bitaruma bikiri icyatsi. Iri kureba hirya hari ibintu iri kureba.

Inyamaswa iri mu ishyamba, yunamye mu byatsi bisa n'icyatsi, ifite amahembe isa n'umukara, ni nini cyane.

Igipusi kiryamye hasi cyiganjemo amabara yijimye cyane cyane umukara, kiryamye hasi mu duti dutoya.

Inyamaswa nziza isa neza cyane iri hagati mu byatsi by'icyatsi, ifite umunwa muremure w'umukara, ifite amabara y'umweru, ifite amaguru maremare.

Inyoni zisa neza cyane, zihagaze ku giti, ziri ahantu mu ishyamba, hirya yazo hariho ishyamba, ni inyoni zigaragara neza cyane, zirimo amabara y'umuhondo, icyatsi.

Inyamaswa iri mu ishyamba, irikurya ibyatsi, inyamaswa y'umukara, iri yonyine mu ishyamba.

Igisimba kiri mu ishyamba gifite n'icyana cyacyo. kigifite mu kanwa kiri ahantu hari ibiti byinshi.

Inyoni nziza cyane ifite amabara y'umweru n'ay'umukara, iri hejuru ku giti, ni igiti cyumye gifite udushami twinshi cyane.

Inyoni ebyiri ziri mu giti hejuru, zicaye ku gashami k'igiti, ni ibiti bicucitse cyane.

Inyoni nziza cyane iri hagati y'ibyatsi , iraramye iri kureba hejuru ifite amabara y'umukara, hari ibyatsi biri hafi yayo hari ibyumye hari n'ibindi by'icyatsi.

Inyoni ihagaze hejuru mu giti, hari amababi y'ibidodoki, hari amababi y'ibitoki. Inyoni iri hejuru mu bitoki ihagaze mu rutoki hagati.